Inama n’ingirakamaro kuri buri kimwe cyose bitewe ni ngingo murimo muraganiraho kugira ngo havemo umwanzuro wa nyawo kandi uzabafasha kugira ibyo mugeraho hakurikijwe ibyizwe muri iyo nama.

Turashimira leta y'u Rwanda yatwegereje amavomo rusange, kuko bidufasha gukora urugendo rugufi tugiye kuzana amazi, kandi bigatuma dutera imbere mu buryo bwihuse kuko amasaha twakagiye kujya kuvoma kare, tuyakoresha indi mirimo yo mu rugo.

Kenshi na kenshi imirimo y'amaboko ni imwe mu ingirakamaro, kuko idufasha kwiteza imbere, tukabona amafaranga, tugakora siporo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kandi bikanatuma umuntu agira ubuzima buzira umuze.

Kwita ku bana bakiri bato ni ingirakamaro ubaha ibibakwiriye ukabaha ibijyanye n'uburenganzira bwabo kandi bikaba byiza iyo ubahaye n' indyo yuzuye kugira ngo bakore bafite ubwenge kandi bakure no mu gihagararo bameze neza kandi bakaba bafite n'ubuzima buzira umuze.

Kwigisha abaturage imyuga itandukanye ni byiza cyane kuba bakuririzaho no kumenya ubundi bumenyi buhambaye, bikabafasha bakiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye, muri iyo myuga hakaba harimo nko kudoda, kubaka, gushushanya ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye.

Ni byiza kwigisha abana bakiri bato imyitwarire myiza n'ubuzima buzira umuze kugira ngo abo bana bazakure basobanukiwe iby'ubuzima bwabo ndetse n'iby'ubuzima bwa bagenzi babo bakiri inyuma yabo.

Amahugurwa agenewe abamama bafite abana ni ingirakamaro kuko iyo bafashe amahugurwa y'uko bagomba kwita ku buzima bw'abana babo neza, bituma abana babo bakura neza kandi bagakura bafite ubwenge no mu gihagararo bagakura neza.

Inama y'umushyikirano iba igomba kubaho hari ingingo z'ingenzi igiye kwigaho, kandi izo ngingo zikaba zifitiye leta akamaro zikayigirira na sosiyete muri rusange, zikayigira n'abaturage basanzwe, bityo bigatuma iterambere ry'igihugu ryiyongera kandi n'abaturage bakagenda bameze neza.

Inama cyangwa se kwigisha ikiremwamuntu imibereho yacyo, imyitwarire, gukura ndetse n'ubuzima busanzwe muri rusange, bidufasha kuba twakongera ubumenyi mu mibereho ya muntu.

Ukimenya ko umwana ufite umuriro, ni byiza guhita umujyana kwa muganga, kugira ngo bamupime, bamusuzume barebe ndetse n'indwara yari igiye kumwataka, kugira ngo babashe kubaho bamenya imiti baramuha imuvura, kugira ngo abashe kuba yakura neza kandi bakugire n'inama yo kuba wamwitaho neza.

Uburyo bwiza bwo gutunganya ahantu bazajya bakira abarwayi no kwigisha abantu abantu bazajya bita kuri izo ndwara, mu buryo bugiye butandukanye, ku buryo buri wese azajya amenya indwara agomba kwitaho, bakazikurikirana mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Gukingiza umwana akivuka ni ingirakamaro cyane kuko bituma umwana agira ubudahangarwa mu mubiri we cyangwa ngo indwara zipfe kumwibasira uko ziboneye kose bigatuma umwana akura neza mu gihagararo no mu bwenge ndetse agakura ashimwa n’Imana n'abantu.

Urukingo ni ingirakamaro ku mubiri wa muntu, kuko rutuma agira ubudahangarwa mu mubiri, mu mubiri we bityo indwara ntizijye zimufata uko zishakiye, kandi akaba hari na byinshi aba yirinda ko byamwataka.

Gukora umuganda dutera ibiti ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu, kubera yuko iyo duteye ibiti, ibyo biti biduha umwuka okisijeni ari wo mwuka duhumeka noneho na twe tugasohora umwuka wa kaboni, ibyo biti na byo bigahita biwakira, ibyo ngibyo bikadufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Turashimira leta y'u Rwanda yatuzaniye ubwumvikane, ubwuzuzanye n'uburinganire mu miryango yacu, kuko bidufasha kuba twarinda ihohotera rishingiye ku gitsina cyangwa se iryo ari ryo ryose, kuko bizadufasha gutera imbere kuko tumeze neza.

Mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye umuntu agomba kugira isuku aho ari hose, aho akorera, aho aba muri rusange, mbese ibikorwa bye byose aba agomba kubigirira isuku kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Iterambere rirakataje aho usanga umuntu akoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urugero, harimo nko kwivuza ugasanga bakoresha ikoranabuhanga rikozwe mu bwoko bwa elegitoronike indwara zawe zose bakazireba bitiriwe bibagora.

Ni byiza gushishikariza umwana kwita ku isuku akiri muto, ukamutoza cyane kugira ngo azakure yita ku isuku y'umubiri we, ndetse n'iy'ibikoresho akoresha, kuko bimufasha kumererwa neza mu mubiri we mu buzima rusange.

Ni byiza kwita ku basaza n'abakecuru bageze mu zabukuru, kuko bibafasha gususuruka kandi mukanabigisha ikoranabuhanga rigezweho harimo nk'amatelefone, televiziyo, radiyo n'ibindi bikoresho bya elegitoronike bigiye bitandukanye, kugira ngo na bo bazajye bamenya amakuru agezweho ku gihe.

Abasaza n'abakecuru iyo bitaye mu kurya indyo yuzuye harimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibikomeza umubiri, ibyo bibafasha kugira ubuzima buzira umuze maze bagasaza neza bameze neza.

Abasaza n'abakecuru bageze muzabukuru, ni byiza kubitaho kuko hari byinshi baba baribagiwe. Ukabafasha kubakorera amasuku, kubitaho, kubakorera utumosaje, kubajyana muri siporo, ndetse n'ibindi byatuma amaraso yabo atembera neza kandi n'ikindi kintu cyose cyatuma basusuruka mukakibafashamo.

Buri mwana wese ukivuka, aba afite uburenganzira bwo kwitabwaho, ahabwa buri kimwe cyose gikenewe kugira ngo umwana akomeze gukura afite ubuzima buzira umuze, kandi yitabwaho muri buri kimwe cyose akora icyo akeneye cyose.

Inyubako nziza zubatse neza zifite isuku, zifite ubusitani, zifite ibintu byose muri rusange harimo amatara, amashanyarazi, umuriro ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye ni ingirakamaro ku kiremwa cya muntu kuko bimufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Bimwe mu bifasha abantu kuba bavumbura ikintu runaka ni uko baba barifashishije isomero cyane cyane, ugasanga ibyo bintu bakozemo bagiye babikura mu isomero, babikuye mu bitabo bigiye bitandukanye, noneho bakabibyazamo ikintu kiza kandi gifite akamaro.

Inzu abaganga bakiramo abarwayi igomba kuba iteguye neza bityo bigatuma umuganga avura umurwayi neza, kandi akanamuha serivisi nziza kuko bituma umurwayi akira vuba kandi akamererwa neza.

Icyapa ni ingirakamaro kuko kiyobora umuntu mu gihe agiye kwaka serivisi aho hantu agiye aho hantu, kandi bikamufasha no kugenda atayobagurika bigatuma umuntu agera ahagiye amahoro kandi atariwe abaza n'abandi bagenzi be.

Nibyiza kugira inzu yabugenewe yo gushyiramo imiti kugira ngo buri muturage wese igihe cyose yarwaye akeneye imiti azajye agana kuri iyo nzu afate imiti bityo akire neza. Kandi iyo nzu igomba kuba iri ahantu hameze neza hasukuye kandi aho hantu hakaba hatavogerwa.

Iteka n'iteka inzu zabugenewe zo gushyiramo imiti, zigomba kuba zifite isuku ihagije kandi bikaba byiza cyane iyo zifite n'ibyapa ndanga kugira ngo uhagana wese ataza kuyoba.

Icyapa ni ingirakamaro kuko kirangira abantu aho bagiye, bikabafasha kugenda neza batayobye, bityo bakagera aho bagiye nta kibazo kivutsemo. Kandi bikaba byiza cyane iyo babanje no kubagira inama yo gukora ibyo byapa bikoreshwa.

Umuntu unywa amazi cyane cyane mu gitondo cyangwa se n'ikindi gihe cyose mu bihe bigiye bitandukanye, akunda kugira ubuzima buzira umuze kandi aba arinda umubiri we, akawurinda ibyawangiza ndetse n'indwara zigiye zitandukanye.

Gukora siporo ni ingirakamaro kuri buri muntu wese, kuko iyo umuntu akoze siporo, nta ndwara yapfa kumwataka uko yiboneye, kandi bigatuma umuntu agira n'ubuzima buzira umuze.

Iyo wakoze siporo ukumva wavunaguritse, ni byiza kwihutira kwa muganga, kugira ngo baguhe umuti cyangwa se pomade, kugira ngo uze wikandisha aho uvunitse, bityo bigufasha kuba wakomeza kugira ubuzima buzira umuze, ndetse ukomeze no gukora siporo zawe, kuko ari ingirakamaro mu mubiri w'umuntu.

Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umuntu akoze siporo, hari indwara nyinshi aba yirinda ko zaza mu mubiri we, ibyo ngibyo bigatuma agira ubuzima buzira umuze, kandi nanone agakunda gukora siporo cyane kuko ari ingirakamaro.

Kunywa amazi mu gitondo, saa sita na nimugoroba cyane cyane nnk'iyo uvuye no muri siporo biba byiza, kuko bifasha umubiri wawe kuzahuka bigatuma umubiri wawe umererwa neza.

Umuntu ukora siporo wese aba agomba gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo ataza gucika intege atarasoza umurimo we, kandi bikaba byiza iyo yifashishije indyo yuzuye mu gukora siporo ziwe kugira ngo ataza gusubira inyuma.

Ni byiza gukora siporo wambaye imyambaro yabugenewe y'ubwirinzi kugira ngo wirinde zimwe mu ndwara cyangwa se ibikomere ushobora guhura na zo na byo uri muri iyo siporo, bikaba byiza cyane iyo ugiye muri iyo siporo yawe wirinze bihagije.

Akenshi na kenshi imyitozo ngororamubiri ikundarana kugendana n'indyo yuzuye kugira ngo umuntu abashe kugira ubudahangarwa mu mubiri we mbese akaba nta ndwara yapfa kukwadukira.

Umuravumba ni kimwe mu biti Nyarwanda gifite umumaro kuvura kandi cyikaba gifite n'umumaro wo kuba cyaduha umwuka abantu noneho tukaba twanakifashisha mu kurinda isuri muri rusange.

Byagaragaye ko imiti gakondo ya Kinyarwanda, ivura ijana ku ijana indwara iyo umuntu arwaye agakira ugasanga nta kindi kibazo yongeye kugira.